Umudugudu w'icitegererezo. Imbere hari amamodoka aparitseho, aparitse kuri kaburimbo. Hameze neza haraboneye, ibi byerekana yuko Igihugu cacu c'u Rwanda kirimo gutera imbere.

Iki kikaba ari icatsi bacita igitenetene. Abantu bakaba baragikoreshaga, inka zarakiryaga zikazana amata menshi kandi bakaba baragikoreshaga no mu bintu bitandukanye. Kikaba giteye hasi impande zaco hari amabuye.

Icyatsi cy'igitenetene kiba gifite imishubi kandi kirababana. Kikaba kiri iruhande rw'igitari, kikaba kimeze neza gitoshe.

Indabyo zakurubye, inyuma yayo hari gereveriya. Izi ndabyo zikaba zitumaga ahantu hasa neza cane urugo rukabonera cane.

Abantu ba mbere bakoreshaga nk'ibiti ndetse na n'ubu abantu baracyabikoresha. Iki cyatsi kikaba giteye hasi mu butaka kikaba gikikijwe n'amabuye ku ruhande.